Amashuri menshi yo mu gihugu cy'u Rwanda arimo arigisha ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga aha mu bigaragara ni muri kaminuza y'u Rwanda i Butare, aho abanyeshuri biga bakoresheje za computer kugira ngo bamenye iterambere ry'igihugu aho kigeze.